Ibiti bifata imigezi no kugabanya imbibi z'imyaka ebyiri. Ni ingenzi cyane, kuko bifata amazi n'ubutaka. Kandi nanone ibiti bikora nk'urubibi kugira ngo bidateza amakimbirane hagati y'abaturage babiri.